Agacupa ka gurude, gatwarwamo ibyo kunywa bitandukanye, gakoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bagatwaramo igikoma cyangwa amazi yo kunywa igihe bayakeneye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, aho bafite ibyo kurya mu ntoki bari kurya, ariko bakaba bapfutswe mu maso bakoresheje amashusho ya mpande enye, ari mu ibara ry'umweru kugira ngo tutabamenya.

Inyubako nziza cyane, aho iyo nyubako isakaje amabati agiye atandukanye ndetse ikaba ishushanyijeho ibishushanyo byinshi, bigaragara ko yigiramo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Kandagira ukarabe iteretseho igicupa cya jibu kirimo amazi aho umunyeshuri aza agakandagiraho hanyuma amazi agahita aza maze ibintu bikagenda neza cyane.

Inyubako nziza cyane zisakaje amabati y'umutuku bikaba bigaragara ko ari inyubako zo ku kigo cy'amashuri zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, aho bari kugenda bajya umunyenga ku bikoresho biba byarabugenewe bifashisha, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye.

Udupupe tw'utunyoni turi mu mabara y'umutuku aho utwo tunyoni twifashishwa bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, aho bababwira ngo akanyoni karaguruka kakagera kure.

Udupupe tw'udukende tubiri twicaranye tugiye gusuhuzanya, tukaba ari ibishushanyo bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke mu Rwanda, bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho isakaje amabati atukura ndetse ikaba ifite imiryango myinshi igiye itandukanye, iyi nyubako ikaba yigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye, y'umuhondo, umweru ndetse n'umutuku, hakaba handitseho ijambo "Ngabo", bigaragara ko byifashishwa bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomeje gutera imbere cyane, aho kuri iri shuri hashushanyijeho ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, ubworozi ndetse n'ubwubatsi, hari umuhoro, igitiyo, isuka, umwiko ndetse n'ingorofani.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho hari ibikoresho by'iminyega bifashisha bari kurya umunyenga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteyemo amarangi y'umuhondo n'umweru ku gikuta, ikaba yigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy amashuri aho hatangirwa serivisi zijyanye n'uburezi ku bana baje kuhiga.

Udushushanyo tw'abana dukunze kuba tumanitse ahantu mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza, aho abana b'abanyeshuri badukunda ndetse bakanatwifashisha abari kwiga.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho ibyo bikoresho biba bigiye bitandukanye kandi ari ingirakamaro cyane.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'amashuri, isakaje amabati y'ubururu, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru imbere y'amadirishya n'imiryango.

Ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biba bigiye byanditseho amagambo agiye atandukanye, kandi yabasha kubafasha, hari icyanditseho ngo "ubugeni n'umuco".

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta biteye irange ry'umweru ndetse byubakishije amatafari ahiye, akaba ari ku kigo cy'amashuri abanza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu burezi bw'ibanze, aho baba bigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza isomo ry'imibare, bifashishije ibi bikoresho.

Agakapu kari mu mabara y'icyatsi ndetse n'utundi tubiri turyamye impande yako, kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bagatwaramo amakaye yabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, ikaba iteye irangi ry'umuhondo ku bikuta ndetse yanditsweho n'amagambo y'umukara, mu rurimi rw'icyongereza.

Akabuwate kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kwiga imibare, haba harimo amarati, uducaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye ,byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza mu Rwanda, bibona abakiriya kuko abanyeshuri babikenera cyane.

Hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye abarimu bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, haba harimo amatungo ndetse n'ibihingwa hariho insina, akana k'intama ndetse n'ihene.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye, bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho ibyo bishushanyo biba birimo imibare igiye itandukanye, bifashisha bigisha abanyeshuri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi n'amadirishya bisize amarange y'ubururu, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri abanza bahuriye hamwe, aho imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi na telefoni mu ntoki ari kugenda abagezaho ikiganiro.

Ibikoresho bifashisha bari kwiga amasomo mu mashuri abanza, cyane cyane isomo ry'imibare, haba harimo agacaruziga, aho aba ari ingenzi cyane, ku buryo umunyeshuri wese ukifashishije kamufasha.

Amarati agera muri atatu, akaba ari ahantu hamwe, aya ngaya yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza iyo bari kwiga isomo ry'abo ry'imibare.

Umunyeshuri uri kwiga, akaba yicaye ku ntebe ari kugenda yandika, yambaye agapira k'ubururu, aho mu maso bamukingirije, bifashishije tireyi zivamo amagi.

Ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa bigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, aho ibyo bitabo byanditseho hejuru ngo ubugeni n'umuco Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda.

Agasanduku kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare, aho haba harimo uducaruziga, harimo amakaramu y'ibiti n'ibindi.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri akaba ari imbere ku kibaho, aho yajyanyeyo umunyeshuri kugira ngo uwo munyeshuri age arasubiza neza kugira ngo arebe niba yabyumvishe.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu masomo y'amashuri abanza, aho haba harimo amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Umwarimu uri mu ishuri ari kwigisha abanyeshuri, aho yambaye ishati y'umweru n'ipantaro yatebeje, akaba ari kwereka abana ku kibaho, ko bagomba kwiga bagakurikira kugira ngo bamenye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye bafite amasuka buri wese imbere ye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho hari umugore uhagaze imbere yabo, ar kubigisha ibijyanye n'ubuhinzi.

Abana biga mu mashuri abanza, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, aho bari gushushanya ururabo ku gipapuro cyabo kugira ngo barebe ko byagenda neza.

Igishushanyo cya mpande enye kirimo utuziga tubiri ducumbikiranye, twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, aho baba bigisha abanyeshuri, uburyo ki imibare yigwa maze igatsindwa.

Utubuwati twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, tukaba turimo ibikoresho bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare, aho harimo amarati, uducaruziga ndetse n'ikaramu z'ibiti.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu mirimo y'ubwubatsi, aho byigishwa abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho muri ibyo bikoresho, haba harimo inyundo, urukero, imbaho y'amazi n'ibindi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bambaye udupira tw'ubururu, bakaba bari kugenda ahantu mu muhanda w'igitaka bigaragara ko bishimye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho z'amashuri, zikaba zisakaje amabati y'ubururu. Hari ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti bitanga umuyaga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bagiye bicaye ku ntebe abandi bahagaze, bakaba bari kwifotoza bigaragara ko bishimye kubera ko basoje umwaka wa gatatu.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, baba bafite ibikoresho byifashishwa mu kuba imibare kugira ngo barebe neza niba igisubizo bashaka kubona ari cyo.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'ubururu na kaki, bari kumwe n'umwarimu wabo aho bari gukoma mu mashyi bishimye cyane.

Abantu baba barize ibijyanye no gukanika umuriro w'amashanyarazi mu mashuri yisumbuye, bakunze kuba bambaye utujiri ndetse n'ibigofero byabugenewe, bakaba baba bari kumwe n'abarimu babo.

Inyubako nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho kandi ngari, ikaba iteraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye by'umwihariko abiga ibijyanye no gukanika umuriro w'amashanyarazi mu mashuri yisumbuye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye by'umwihariko abiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, cyane cyane mu gukanika ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe muri sale y'inama, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye ku ntebe zabugenewe bakurikiye umuntu uri imbere yabo.

Ubusitani bwiza cyane uteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubashije kuba yazihinga zimugirira akamaro.

Udukoresho tw'utubumbano tujyiye dutandukanye, aho tubumbwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro ,bakabikorana ubuhanga buhanitse ku buryo umuntu wese atapfa kubyigana.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inzugi zisa icyatsi ndetse ikaba ifite n'ibirahuri byiza bibonerana, byerekana ko ari inyubako ya kaminuza.

Udukoresho tugiye dutandukanye, dukorwa n'abanyeshuri baba barize muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'ababa barize imyuga n'ubumenyingiro, mu mashuri yisumbuye, bakaba ari abahanga.

Inyubako nziza ifite igikuta gifite amabara y'ubururu, hakaba hagiye hamanitseho udutako dushushanyije neza cyane twiza dukoranywe ubuhanga, bigaragara ko abadukoze ari inzobere.

Udukoresho tugiye dutandukanye, tubumbye mu ibumba, tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, cyane cyane abize ubumenyingiro.

Intebe ziri mu mabara y'ubururu ziba zifite aho bicara bari kwandikira, zikaba ari intebe zifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abambaye imyambaro y'umukara, bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima.

Abanyeshuri baba barize muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'abanyeshuri baba barize, mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, baba bafite ubuhanga buhanitse, aho babasha gukora udushushanyo twiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite ibikuta biteye amarange y'icyatsi ndetse ikaba ifite ibyuma bigiye bitandukanye, ikaba ari inyubako yo muri kaminuza.

Umuntu ushushanyije ku gikuta w'umugore, ufite imisatsi ya menshi ariko akaba ashushanyije mu buryo bw'ubuhanga kubera ko abantu bamushushanya, baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Abantu bagiye batandukanye bicaye bari mu nama biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bafite amakaramu bari kugenda bandika bigaragara ko biga mu mashuri ya kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse ikikijwe n'ibyuma.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu ishuri, aho imbere yabo hari umwarimu, uri kugenda abasobanurira uburyo ki bakwiga, maze bagatsinda amasomo yabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarange y'umweru ku bikuta, ikaba ifite imbuga ishashemo amapave bikaba bigaragara ko ari inyubako yo muri kaminuza.

Umugore uri ahantu, bigaragara ko agiye kwikorera ikintu, akaba ashushanyije ku gikuta, ariko yarashushanyijwe n'abanyeshuri bize imyuga ndetse n'ubumenyin ngiro.

Inyubako ifite igikuta giteye amarangi y'icyatsi, hakaba hashushanyijeho agakoresho, kari mu mabara agiye atandukanye gaciyemo uturongo twinshi, bigaragara ko kaba karashushanyijwe n'abanyeshuri b'abahanga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ikibaho cy'umweru cyandikishijweho ikaramu ya marikere isa icyatsi, hakaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda.

Intebe nziza cyane zigezweho ziba ziri mu mabara y'ubururu, aho umunyeshuri yicaraho akabona n'aho yandikira, zikaba ari intebe zo muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare.

Igikuta kiri ahantu ku nyubako, aho icyo gikuta kimanitseho agasanduku keza cyane gakozwe mu buryo bugezweho, kaba karakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza.